Imodoka Itwara abarwayi bayita imbangukiragutabara. Iba ifite amabara gatandukanye: ay' umutuku ndetse n'ay'umweru, kandi haba hari n'abantu bahagaze bambaye udupfukamunwa bari guherezanya imfunguzo z'iyo modoka.

Amazu yubatse neza ni menshi ashakaje amabati y'umutuku, imbere haparitse imodoka, haciyemo n'umuhanda wa kaburimbo ugiye ugeza imodoka ku muryango w'aya mazu. Aya mazu nanone bayavuriramo, hari aho bavurira hitwa kuri Hopitali, ahandi hitwa kuri Kirinike.

Ibyatsi biba bihinze haba harimo udutoya twaranze hasi, ibindi biba ari binini bita imyenya bigira n'amababi aringaniye, bivamo umuti bita uwa kinyarwanda, iyo umuntu arwaye bakawumuvugutira akawunywa arakira.

Igiti cy'umusave kirahinze kandi kivagamo umuti, hagati hahinzamo ikindi giti kimeze nk'umugugwe kigiraga amababi maremare gasongoye, mu mpande hakikijwe n'utundi twatsi dutandukanye.

Ibyatsi birimo ibigira amababi ashashe ibindi bikagira amababi maremare, kandi nanone ibi byatsi bigira umuti mwiza cyane nko mu gihe umuntu arwaye indwara atajyana kwa muganga bakoresha uwo muti wa Kinyarwanda.

Imisene myiza cyane igira amababi ashashe, kandi ikagira n'utubuto turyoshye. Nanone haba hateye insina, hateyemo n'imyumbati n'utundi twatsi turanda, kandi ikindi iyi misene ivamo umuti mwiza, bita umuti wa kinyarwanda.

Ibyatsi batera bimwe biranda hasi, ibindi bikagera hejuru gakeya bikagira utubabi turerure, ibindi bikazamuka bikagira amababi ashashe manini kandi bikagira n'uruyange, bikagira utuntu tw'udutoryi dutoya. Na none ibi byatsi bivamo umuti bita uwa kinyarwanda.

Ibyatsi bibamo imifumbageshi ndetse n'ibindi bivamo umuti mwiza cyane bita uwa kinyarwanda, kandi iyo umuntu arwaye indwara itari iyo kwa muganga bakamuha kuri uyu muti, arakira akagira ubuzima bwiza.

Ibyatsi bitandukanye haba harimo intobo, harimo n'utundi twatsi tugiraho utubabi duto duto tukaba dufite ibiti biba biriho amashubi kandi haba harimo n'utubingo, nanone ibi byatsi bivamo umuti abantu bivurisha, ariwo bita umuti wa kinyarwanda.

Ibiti byitwa ibidariya birakura bikagera hejuru, kandi biba bifite amababi asongoye. Haba hahinzeho ibindi byatsi bidakura ngo bigere hejuru, ariko biba bigaragara yuko ari ibyatsi na none bivamo umuti.

Igiti bita igiko kigira amababi ashashe ,aba ateganye ari abiri hamwe n'irindi rya gatatu ,kandi kivamo umuti ikindi kigira inyange z'umutuku bita indubaruba, iyo uzibonye uhita uvuga ngo indubaruba z'igiko.

Ibyatsi biba biteye mu murima, bimwe biranda, ibindi ntabwo biranda, biba bifite n'amababi aringaniye kandi bivamo umuti bita uwa kinyarwanda, iyo abantu barwaye barakubaha bakawunywa.